Iyi ni inyubako ikoreshwa mu buririro, cyangwa se nk'ururiro, izwi ku izina rya resitora, cyangwa se urunywero, ikaba irimo ameza n'intebe bigiye bitandukanye.

Ibi ni ibiryo bihiye biri ku isahane biriho inyama y'ifi ,umuceri ,salade n'izindi nyama zitandukanye, iruhande rw'aho hari icyuma cya kuto, ifoke byo kwifashisha mu kurya.

Izi ni inyama zihiye zokejwe n'ibirayi byokejwe byo bakunda kwita burushete na mucoma, bikaba byashyizwe ku isahane bitegereje umuntu ugiye kubirya.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi bacururizamo inkweto n'imyenda, kumuryango hariho ibipupe bibiri bikoreshwa mu kwamamaza ibyo bacuruza.

Iyi ni inzu icururizwamo imyenda z'ubwoko butandukanye kuko igaragara harimo amakoti, amashati, inkweto n'umuntu urimo kubicuruza.

Iki ni icyapa cyamamaza ibikorwa by'ubucuruzi, kikaba kiriho ibyo bacuruza bigaragara ko ari ibigega, kuko n'iruhande rwaho birahari na nimero z'ababicuruza n'aho wabasanga.

Iyi ni inzu ni inyubako y'ubucuruzi bigaragara ko ari inyubako ya igeretse ya etaje, irimo ibicuruzwamo imbere ikagira n'umucuruzi urimo gucuruza n'umuguzi waje guhaha, ikagira n'ibyapa byamamaza ibicuruzwa birimo imbere na moto bigaragara ko yaba ari nk'umuntu waje guhaha wayijeho.

Iyi ni inzira y'abagenzi bambukiramo igihe ibinyabiziga byabaye byinshi mu mihanda izwi nka Zebura korosingi, aho abagenzi bambukira.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi, hacururizwamo ibintu bitandukanye, iruhande rwaho hariho akazu gatanga serivisi z'imari zikorana na Mobayiro mani, BK, Urwego banki, BPRb n'izindi. Hakabaho ibyapa byamamaza, hakabaho moto, iruhande rwayo ku muryango n'umukiriya wicaye ategereje uwaje guhaha.

Iyi ni inzu bacururizamo imiti y'ibihingwa bitandukanye. Iyi ikaba ari imiti ikoreshwa mu guhinga ibirayi, ibigori n'indi myaka muri rusange.

Iyi ni inyubako icurizwaho ikawa, hakaba hariho n'ikindi gihande bacururizaho mazitu na peterorii, Hakaba haparitswemo n'imodoka.

Iyi ni inzu y'abaturage babamo，iruhande rwayo hakaba hari inzu igaragara ko ari iy'ubucuruzi，hakaba hari n'umuhanda w'igitaka，unyuze mu baturage， hagati hakaba hari n'amapoto，ariho insinga z'amashanyarazi.

Izi ni inyubako z'ubucuruzi ariko bigaragara ko zitagikoreshwa kuko zifunze, iruhande rwaho hariho umutaka ukoreshwa mu gutanga amayinite, no kubika no kubikuza.

Iyi ni inyubako y'ubucuruzi yubakishijwe， ku muryango wayo amakaro，mu nzu hakaba harimo imashini idoda， ku muryango wayo bakaba bahacururiza ibitenge.

Iri ni iduka ricururizwamo ibintu bitandukanye, higanjemo ibiribwa, ku muryango waho hakaba hari ameza acururizwaho imbuto, amaronji, amananasi, ibinyomoro n'ibindi. Hasi hagacururizwa imineke ya kamara.

Aha ni mu bubiko bw'ibyuma cangwa se ibikoresho by'ubwubatsi birimo amatiyo y'ibyuma, hakabamo amatiyo ya pulasitike, hakabamo amabati n'amatiyo akoreshwa mu mashanyarazi.

Iyi ni inyubako igeretse ya etaje igaragara ko ari inzu y'ubucuruzi, ikaba ifite ikigega cy'amazi ku ruhande, n'utundi tugega dutoya tugaragara ko ari utwo bacuruza, n'amatiyo ku ruhande y'amazi y'ubucuruzi nayo barayacuruza, ikaba ifite n'uruzitiro rwa senyenge ku ruhande.

Aha ni aho bacururiza ibikoresho bikoreshwa cyane cyane mu bwubatsi, mu mazi harimo ingorofani, amatiyo, insinga z'amashanyarazi, amarakirete, imikubuzo n'ibindi.

Iyi ni inyubako icururizwamo ibintu bitandukanye, ku miryango yayo naho bakaba bahacururiza inyanya, amapavuro muri rusange ikaba haparitse moto, igare n'ibindi.

Irini isoko ry'ibiribwa, rikaba ryiganjemo ibitunguru byinshi n' abantu benshi baremye isoko, hakaba harimo umuntu uri gucuruza imbada mu ndobo, iruhande rwaryo rukikijwe n'amazu y'ubucuruzi.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi bigaragara ko icurizwamo inyama, hakaba harimo abaje kuzigura n'abazigurisha, bakaba bategereje kuzihaha muri rusange.

Iri ni iduka ricuruza ibintu bitandukanye，harimo ibyo kunywa，imyunyu，biswi n'ibindi bitandukanye. Hakaba harimo umuntu cangwa se umubyeyi ubicuruza.

Ibi ni ibigega bitoya bikoreshwa mu gushyiramwo amazi mu isururu n'ibindi bintu bitandukanye ariko akaba atari ibigega byo kumanika ku mazu.

Aya ni amagare aparitse ategereje gutwara abagenzi, iruhande rwayo hakaba hari aho bacuruza ibikoresho by'amagare, n'ibindi by'ibiribwa, amafu, amavuta n'ibindi.

Iri ni isoko bacururizamo ibintu bitandukanye， imbere ku muryango hakaba hari icyapa gikoreshwa amatara，ku muryango na none hakaba hariho ibicuruzwa bitandukanye， hakaba hari n'igipupe gikoreshwa mu kwamamaza ibyo bacuruza.

Iri ni isoko ry'ibiribwa rikaba ricururizwamo ibitunguru, inyanya n'ibindi byinshi bitandukanye, iruhande rwaryo akaba hari andi mazu yiganjemo ay'ubucuruzi.

Uyu ni umuryango w'ubwiherero. Nk'uko bigaragara ni ubwiherero bw'abagabo nk'uko byagaragajwe ku muryango wabwo. Akaba ari ubwiherero rusange.

Aba ni abagabo babiri bigaragara ko bambaye imyenda y'umuryango wa Efuperi Inkotanyi. Bigaragara ko bavuye mu nama muri imwe muri hoteli.

Iyi ni inzu nini igeretse ya etaje ikaba ari iy'ubucuruzi, ikaba igaragarako ishobora kuba icuruzwa ibyo kunywa, iruhande rwayo hari umuhanda munini wa kaburimbo n'andi mazu y'ubucuruzi.

Iki ni icyapa kimenyesha ko hano hari hoteli yitwa ugurije ikaze ari iyi nzu akaba ari iy'umutekano iruhande rwaho akaba ari umuhanda wa kaburimbo n'amashanyarazi.

Iri ni isoko ry'ibiribwa hano hakaba hari karoti, intoryi, inyanya, pavuro n'umucuruzi uri kuzicuruza n'umuguzi uje kuzigura.

Ibi ni isoko ricururizwamo ibitambaro bikorwamo imyenda yo kwambara bikaba bigaragarako ari ibitambaro by'ubwoko bitandukanye n'imashini zo kudoda imyenda.

Iri ni isoko abaturage bacururizamo, imboga z'amashu zikaba zitanditswe, harimo abazicuruza n'abaje kuzigura.

Ibi ni ibicuruzwa bitandukanye bigaragara ko biri mu isoko. Akaba birimo umuceri, amavuta n'ibindi bitandukanye muri rusange.

Aya ni amatara akiri muri butike agicuruzwa, kuko urabona ko akiri mu makarito, hejuru ya ho hariho n'amavuta acuruzwa.

Aya ni amabase akoreshwa mu gufura cyangwa si gukora indi mirimo yo mu rugo, ha bikaba bigaragara ko ari ku isoko aho bayacururiza.

Iri ni isoko ricuruzwamo ibintu bitandukanye birimo amasafuriya, amabase ibikoresho byo murugo muri rusange, n'ibindi byo kwifashisha mukurya.

Ibi ni ibicuruzwa by'imyaka itandukanye, byiganjemo iby'impeke, ibishyimbo, amajeri, amasaka, n'ibindi bitandukanye.

Aya ni amasafuriya ashaje, hakaba hicaye umugabo urimo kuyakanika cyangwa se kuyasana hakaba hariho na teremosi yo gushyiramo icyayi cangwa igikoma.

Aha ni mu isoko, harimo gucururizwa amabase, anvilope zo gutangiramo impano, ibikombe, indobo, ibipaniye n'ibindi bitandukanye, hakaba harimo n'abacuruzi babyo.

Iyi ni imyaka iri gucuruzwa yiganjemo ibinyampeke. Harimo ibishyimbo, harimo impungure, hakabamo amasaka. Muri rusange biri mu mifuka bitegereje ko haza abaguzi kubigura.

Iyi ni inzu icururizwamo imyenda. Ku muryango wayo hakaba hari imyenda yambitswe ibipupe mu rwego rwo kuyamamaza. Hakaba hahagaze n'umugabo bigaragara ko ariwe uyicuruza.

Iri ni isoko ricururizwamo imboga zo kurya muri rusange, amakaroti ririmo n'ibindi bitandukanye akaba harimo n'abaguzi n'abagurisha bariremye benshi batandukanye.